Umugabo wambaye umupira w'umuhondo akaba akora mu kigo cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN aho ari kumwe na bagenzi be benshi cyane bambamaje y'umuhondo, inyuma y'aho hakaba hari igipapuro cyanditseho ngo: "Izihirwe na MTN".

Inzu nziza cyane y'ivuriro ikaba iteye irange ry'umuhondo, ifite igipangu giteye irangi ry'umweru, amadirisha yacyo akaba iteye irange ry'icyatsi, hanze y'igipangu hateretse umutaka w'umuhondo aho ari umutaka wa sosiyete y'itumanahou Rwanda ya MTN mu mbuga irimo amapave.

Abagabo batanu benshi muri bo bambaye amakoti bakaba bafite ibyapa bya sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya Airtel aho bari kuyamamaza ndetse bamamaza ibikorwa byayo muri rubanda.

Abantu batanu harimo abagabo batatu n'abagore babiri, bakaba bahagaze ku kazu ka MTN, aho baje gushaka serivisi zo kubitsa ndetse no kubikuza.

Umukobwa utanga serivisi zitandukanye akaba akorera umuyoboro w'itumanaho wa MTN, yicaye ku muhanda aho yicaye mu mutaka wa MTN w'umuhondo, inyuma ye hakaba hari inzu z'abacuruzi ndetse iruhande rwe hari n'abantu bari gutembera.

Umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'umweru, akaba yatebeje yambaye n'umukandara, n'undi mugore wambaye imyenda y'umukara, bakaba baje gushaka serivisi zo kubitsa ndetse no ku bifuza ku kazu ka MTN gafite ibara ry'umuhondo kari ku muhanda.

Abantu bane bakaba barimo n'umunyeshuri umwe, bahagaze ku kazu ka sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya Airtel, aho baje gushaka serivisi zo kubitsa ndetse no kubikuza.

Inzu nziza cyane z'ubucuruzi, zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ndetse imbere hakaba hari imbuga y'amapave iriho umuntu ufite umutaka, aho akorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, akaba ari utanga serivisi zitandukanye zo kubitsa ndetse no kubikuza.

Abakobwa babiri umwe yambaye umupira utukura, undi yambaye ishati y'umweru yose yanditseho ngo '' Airtel''. Bafite telefone zigezweho aho zazanywe ku bufatanye na leta y'u rwanda, kugira ngo yegereze abaturage serivisi z'ikoranabuhanga.

Akazu gatoya gafite ibara ry'umutuku akaba ari akazu ka Airtel gatangirwamo serivisi zitandukanye z'umuyoboro wa Airtel, aho abantu bajya bakabitsa ndetse bakanabikuza.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko ndetse n'abari mu za bukuru bateraniye hamwe ubona ko bashungereye cyane, inyuma yabo hari igisharagati cy'umutuku kikaba ari icya Airtel umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda.

Umukobwa wambaye ingutiya, akaba yambaye n'akaribaya, aho yaje ku kazu ka sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya Airtel, akaba yaje gushaka serivisi zo kubikuza, aho yakiriwe n'umukozi ukorera muri ako kazu.

Abantu bakora muri banki ndetse na koperative zitandukanye bicaye mu biro, buri wese afite mudasobwa ye ndetse bamwe muri bo bafite n'amazi yo kunywa, bakaba bari gukora ibikorwa byabo bya buri munsi.

Abantu batandukanye bakorera hamwe, bakaba bishyize hamwe kugira ngo bacuruze, bakaba barahisemo gucuruza ubuki, aho babutwara mu tujerekani tw'arindwi cyangwa mu ibikombe bakaza kugurisha ku isoko.

Abantu benshi cyane, bateraniye hamwe, bakaba biganjemo abakora mu mabanki ndetse na koperative, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati aho ari kubasobanura neza uburyo bagombaga gukoresha amafaranga yabo.

Mu nzuza cyane ikorerwamo ibikorwa by'ububaji, harimo abantu batatu ndetse hakaba harimo n'imashini yifashishwa mu bubaji, aho bashiraho imbaho ikazisatura. Ikaba yaraguzwe ku bufatanye n'abantu bagize koperative.

Aba ni abantu benshi cyane biganjemo abakora mu mabanki ndetse n'abanyamuryango ba koperative zitandukanye, bakaba bateraniye hamwe kugira ngo bige ku mikoreshereze y'imitungo yabo n'uburyo bayibyaza umusaruro.

Umugore wambaye agapira k'ubururu, akaba afite umusatsi usanzwe, afite telefone igezweho ya taci ndetse akaba afite mikoro, aho ahagaze imbere y'imbaga asobanurira abaturage ndetse n'abandi bose ibyiza bya banki ndetse na koperative.

Abantu babiri umugabo n'umugore, umugabo yambaye agapfukamunwa ndetse n'ikote, mu gihe umugore yambaye ikoti ndetse n'ikanzu, bahagaze mu nzuya banki, aho bafite igipapuro kigaragaza ko batsindiye ibihembo muri iyo banki.

Abagabo n'abagore bakora mu mabanki ndetse no mu makoperative atandukanye, bateraniye hamwe aho bicaye mu gishargati, bakaba bafite umuyobozi aho ariko baganiriza uburyo bwiza bwo gushora amafaranga no kuyakoresha.

Abaturage biganjemo abanyamakoperative. Bateraniye hamwe aho bari mu gisharagati ,bakaba bicaye mudutebe twiza cyane dufite agatambaro k'umweru, aho bari kumva impanuro z'abayobozi babo.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, bamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye hasi mu mucaca barambirije bakaba bari mu itsinda ryo kwizigamira aho baje gukoteza.

Abantu benshi bakaba abazobereye mu bijyanye n'amabanki ndetse na koperative, bahuriye hamwe baganira ku kibazo bafite cyo kutiyongera k'umutungo wabo, ubungubu nyuma yo kugikemura abari kwifotoza ifoto y'urwibutso.

Ni muri bare aho hateguwe ameza meza cyane, hakaba hariho n'intebe zikozwe mu mbaho, ameza ariho ibitambaro by'umweru, aho abakiriya bicara iyo baje kugura ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo, ibiribwa n'ibinyobwa. Harimo inzoga nyinshi cyane, hakaba n'amavide bakuyemo inzoga atondetse hasi. Hejuru hakaba hari akabati keza cyane, karambitseho udupaki dutatu dusa n'umuhondo.

Inzu nziza cyane icururizwamo ibinyobwa bitandukanye, harimo inzoga ziri mu macupa maremare, n'iziri mu macupa magufi ari mu mabara atandukanye, ndetse akaba atandukanye mu ngano bitewe n'ibiciro bya buri nzoga.

Ni mu nzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye by'inzoga, akaba harimo ameza akozwe muri mubea ateretseho icupa ry'inzoga ya amusiteri hirya hari ameza iriho iradiyo nini cyane.

Inzu ikorerwa mu ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bitandukanye, birimo ibinyampeke nk'umuceri ndetse na soya, hakabamo n'ibindi nk'amavuta ndetse n'ibindi biribwa.

Umugore w'inzobe, akaba n'umucuruzi wabigize umwuga. Ari mu nzu ye y'ubucuruzi, aho acuruza ibicuruzwa bitandukanye, birimo ibiribwa biri mu mapaki, ndetse n'ibinyobwa, akaba acuruza na omo, irimo dupfunyika. Afite umunzani mushyashya w'amabuye, apimiraho abakiriya baguze ibintu ku cyiro.

Umugabo ni umucuruzi wihangiye umurimo, akaba acuruza ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibijyanye n'isuku aho acuruza: omo, amavuta, isabune, akaba acuruza umuti w'amenyo ndetse n'ibindi, ari kwandika mu ikaye ibyo yacuruje ku munsi.

Inyubako y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, birimo telemusi ndetse n'ikidomoro, telemusi ikaba ikoreshwa mu kubika igikoma cyangwa icyayi kugira ngo kidahora, naho ikidomoro bakaba bakivomesha amazi.

Inzu nziza cyane ikorerwamo ubucuruzi, ikaba iteye karabasasu ndetse iriho nteni y'igisahani, hari umuryango uri kwinjiramo umuntu wambaye agapira kacitse, akaba agiye guhaha.

Umugore usobanutse wihangiye imirimo, acuruza akabari karimo inzoga ziganjemo mitsingi na pirimusi. Akaba afite firigo abikamo inzoga ze zigakonja, ndetse nta ntebe afite yicazaho abakiriye.

Mu nzu y'ubucuruzi harimo ibicuruzwa bitandukanye birimo amavuta y'ubuto, harimo uturitiro, hakabamo ikirungo cyo mu gasashi, harimo ikesi irimo amavide ya fanta atarimo ikintu ndetse na firigo yifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa.

Inzu y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amakariso ya bagabo, amavuta, ibibiriti, umuti w'amenyo, supaguru, amavuta yo guteka ndetse na za fanta, hakaba harimo umunzana ndetse n'indobo y'umweru.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, birimo, amata, ndetse, n'ifu, n'ibindi byinshi. Umucuruzi akaba ari bupima umuceri, awusuka muri amverope, aho yawuteretse ku munzani.

Inyubako y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibikapu ndetse hakaba harimo amavuta ndetse n'amakaroni, muri ayo mavuta y'ubuto higanjemo ayitwa Dayanasi, Jambo ndetse n'ayanditseho Sandeyi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye bwiganjemo serivisi zo kudoda, harimo abagore babiri b'abadozi aho bari gupima igitambaro, hakaba harimo umugabo wifumbase akaba ari we waje kugura iki gitambaro kugira ngo bamudoderemo umwenda.

Abantu benshi cyane biganjemo abayoboke b'idini ry'Abadive bari imbere y'urusengero rwabo aho bavuye gusenga ku isabato, biganjemo abana bakiri bato ariko imbere hari abagore babiri bakuru ubona ko bishimye cyane.

Inzu nini cyane, ikaba yarakoreshwaga nk'urusengero, none ubu ikaba yarashaje, iteye irangi ry'umweru ariko ryatabaguritse ndetse yari yaranayihirimye mu ruhande rwe'pfo kuko bayisubiyemo, amatafari y'inkarakara aragaragara.

Umugabo w'umushehe yambaye akagofero ndetse akaba afite mikoro, aho ahagaze imbere y'abayoboke b'idini ya Isilamu ari kubasobanurira ijambo ry'Imana.

Abantu benshi cyane biganjemo abavugabutumwa mu rusengero, bakaba bari kwifotoza nyuma y'uko bari bavuye mu iteraniro aho bahimbazaga Imana, ubu ngubu bakaba ari gufate ifoto y'urwibutso.

Inyubako nziza cyane ya Kiliziya, ikaba iriho umusaraba hejuru, aho yubakishije amatafari y'impunyu, hari gusohokamo abantu benshi cyane ubona ko habaye umunsi mukuru cyangwa se akaba ari umunsi wo ku cyumweru bavuye gusenga.

Umubyeyi ubyibushye. Yambaye ishati y'icyatsi, akaba yaje kwa muganga, aho yazanye umwana we we w'umukobwa, ndetse bakiriwe na muganga, wambaye itaburiya y'umweru aho ari kumusuzuma ngo arebe ikibazo yaba afite ku matwi ye.

Abantu benshi cyane bakaba ari abayoboke b'idini Gatolika bambaye amakanzu, bisa naho ari abihayimana bose bakaba bambaye n'amashapure, aho bari kwifotoza imbere y'inzu nziza cyane y'igorofa iteye irange ry'umuhondo.

Habaye iterane impuzamadini, aho abantu bicaye mu murima hasi mu kinani mu mucaca, bamwe bicaye ku ntebe ariko abenshi bicaye ni abacuranzi, imbere yabo hakaba ari umuvugabutumwa uri kubasobanurira ijambo ry'Imana.

Inyubako nini cyane, akaba ari kiliziya, iteye amarangi y'umweru ariko hakaba hakiriho abantu benshi b'abakoze bisa naho imirimo yo kubaka itararangira, imbere yaho hari kaburimbo ndetse ku ruhande hakaba hari n'icyapa kivuga ngo hagarara.

Abagabo babiri bambaye udupfukamunwa bakaba bahagaze imbere y'imbaga, aho bamaze guhabwa igihembo cy'uko batanze serivisi nziza muri banki ndetse n'amakoperative bakorera.

Abagabo babiri, umwe yambaye kositimu undi yambaye imyenda isanzweba, bafite igipapuro kinini cyane, kikaba ari igipapuro kiri kwamamaza idini rya ADEPR, yandiho ngo twe urubyiruko rw'itorero rya ADEPR twamaganye ibisindisha n'ibinyobwa bitemewe, ari yo nzira yo kubaha Imana.

Umugabo w'umupadiri, yicaye mu kiriziya imbere y'imbaga, yambaye ikanzu y'umweru n'umwitero ufite amabara y'icyatsi ndetse n'umutuku, aho yaje gutanga ubutumwa ndetse gusoma no gutura igitambo cy'ukarisitiya.

Ku cyumweru abayoboke b'idini rya gatolika bakaba baje gusenga ari benshi ariko urusengero rwabo rwubakishije amatafari ahiye, hejuru hari umusaraba, rushobora kuba rwabaye ruto kuko abakristo ni benshi cyane bamwe bari hanze.

Icyumba kimwe muri hoteli, gishashe neza aho kirimo igitanda kiryamaho abantu babiri .Hariho imisego ine ndetse igitanda kikaba kiriho amashuka y'umweru. Icyumba birimo giteye irangi ry'umuhondo.

Inzu nini cyane itangirwamo serivisi z'amahoteli ikaba ari igorofa igeretse mu ruhande rumwe ahandi igeretse kabiri, iruhande rwayo hakaba hari ahantu bogera hazwi nka pisine ndetse inyuma ya pisine hakaba hari ameza n'udutebe turiho n'imitaka irinda abakiriya izuba.

Abantu benshi cyane bahuriye muri hoteli. Bakaba baje kwizihiza ibirori, aho bamwe bicaye abandi bahagaze. Imbere yabo hahagaze abantu benshi cyane, basa naho ari abashyitsi bakuru, bari bugire icyo bababwira.

Inzu nziza ya hoteli ikaba iteye irangi ry'umweru ikaba arimo itara ndetse imanitseho ifoto, yicayemo umugore wambaye ikoti, akaba ari we wakira abakiriya bageze muri hotel bwa mbere.

Muri hoteli icyumba kimwe gitewe neza cyane, kirimo amatara y'akataraboneka, harimo igitanda gishashe neza, kiriho imisego itatu, bisa naho ari igitanda cyakwirwaho abana batatu ndetse hakaba hari n'inzitiramibu ikoranye umuti.

Muri hoteri hari ibiryo bitandukanye byateguriwe abakiriya twavuga nka capati, imigati, isosi ndetse n'ibindi bitandukanye bikunze kuribwa n'abantu b'abakire bafite amafaranga menshi.

Inyubako ndende y'akataraboneka ya hoteli iteye amarangi y'umweru akaba ari igorofa yeretse rimwe, iruhande hari igipangu kirekire nacyo giteye irangi ry'umweru, aho hanze y'igipangu hari ubusitani burimo umucaca ndetse n'imikindo.

Muri hoteli icyumba kiza cyane. Kikaba giteye irangi ry'ubururu bwererutse, hakaba harimo n'igitanda gishashe neza, harimo n'imisego ine. Imbere hari intebe imwe, aho umukiriya yicara iyo adashaka kuryama.

Ubwogero bunini cyane abantu basuye hoteli bogeramo, akaba ari ubwogero bukikijwe inzira yababagenzi y'amapave, aho ku rundi ruhande hari umucaca ndetse urundi hakaba hari igipangu giteye irangi ry'umweru.

Abantu benshi cyane bateraniye muri hoteli, aho baje kwizihiza ibirori by'isabukuru, bamwe mu nshuti zabo bakaba biyaakiriye rero, baricaye baranezerewe bari no kunywa.

Abantu benshi cyane baturutse impande n'impande aho biyakiriye muri hoteli, bakaba baje mu birori by'umubatizo w'abana babatijwe mu bayoboke b'idini rya gatolika.

Hoteli nziza cyane y'akataraboneka, ikaba ifite ubwogero bunini cyane kandi buteye neza, inyuma yabwo hari imitaka irinda abakiriya izuba ndetse n'intebe bicaramo iyo bamaze koga.

Muri hoteri hari inyubako nini cyane ni igorofa igeretse gatatu, iruhande rwaho hakaba hari ibiti bitandukanye ndetse hakaba hari n'ubwogero abantu bogeramo iyo baje gushaka serivise muri iyo hoteri.

Icyumba kiza muri hoteli, kikaba giteye irange ry'umweru. Gishashe neza aho kirimo uburiri buriho umusego umwe w'ubururu. Bigaragaza ko haryama umuntu umwe. Hakaba harimo n'intebe ndetse n'ameza. Byose byifashishwa n'abakiriya baje kuraramo.

Ku isoko ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye hari urujya nuruzaga rw'abantu aho bari kwanika ibigori ndetse bakanabihunika, babyanitse mu mbuga babishanjije inyuma yabo hakaba hari inzu y'ubuhunikiro irimo n'ibindi bigori.

Mu isoko hari ibikoresho bitandukanye bitadetse, hari imifuka, ibikombe by'umweru, iby'ubururu, umutuku, iby'icyatsi hakaba amabase y'ubururu, umutuku ndetse n'ay'icyatsi.

Isoko ricuruzwamo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo imyenda ndetse n'amashuka yo kwiyorosa, harimo umuntu uri kuyacuruza, hakabaho n'undi ushinzwe umutekano kuko nta mukiriya n'umwe uhari.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko, biganjemo abagore n'abakobwa, aho batanditse ibicuruzwa bitandukanye, birimo imyanya, intoryi, dodo n'ibitunguru, aho hari n'abantu benshi cyane, barikuza kugura ibi bicuruzwa.

Mu isoko ricururizwamo ibikoresho bitandukanye byiganjemo iby'isuku, twavuga nk'ibikombe, amasahani, amasafuriya, teremusi ndetse n'ibindi nabyo byifashishwa mu kurya ndetse no kunywa.

Abagore babiri bambaye imyenda ikozwe mu gitenge, bakaba baje ku isoko aho baje guhaha ibicuruzwa bitandukanye, umwe muri bo yazanye igikapu yagiteretse hasi, nyuma yabo hakaba hari ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo inyanya ndetse n'umuceri.

Urujya n'uruza rw'abantu bakuriye mu isoko, ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye ndetse na serivisi zitandukanye, hari abamotari benshi cyane bategereje abagenzi, hakaba n'utuzu tw'imitaka, hakorerwamo serivisi zitandukanye z'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda MTN.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko. Akaba ari isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye birimo: inkweto, imyenda ndetse n'ibindi. Abariremye higanjemo abagore n'abana, aho buri wese ari kurobanura umwenda yagura.

Umugore yikoreye tungurusumu akaba yambaye n'agapfukamunwa, aho ari gutembera mu isoko hari urujya n'uruza rw'abantu, agenda ababwira niba baba bashaka izi tungurusumu kugira ngo abagurishe bajye guteka.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko, aho baje guhaha ibicuruzwa bitandukanye birimo imboga ndetse n'imbuto, hakaba hari n'imodoka yazanye ibicuruzwa byinshi cyane mu mifuka, hakaba hari n'abantu bari gupakurura ibyo bicuruzwa mu modoka, babirashira kugira ngo bajye kubicuruza.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse impande zose bahuriye mu isoko ricuruza ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibiribwa, bari kugura indagara ndetse n'amahera aho bashaka kugira ngo bajye guteka isosi.

Ni mu isoko aho urujya n'uruza rw'abantu bahuriye, bagiye gushaka ibicuruzwa bitandukanye, abantu biganjemo abagore, nibo baja mu'soko, aho hanze yaryo haparitse amagare ndetse hakaba hari n'umugore watanditse ibicuruzwa bye.

Inzu nini cyane ni resitora aho abantu bajya kugura ibyo kurya bya saa sita ibya mu gitondo n'ibya nimugoroba, ndetse bakanahabonera ibyo kunywa bitandukanye byaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Muri resitora ahacururizwa ibiryo ndetse n'ibinyobwa, hari intebe nziza cyane zirimo imifareso, hakaba hari n'amezaza, hari inzu nini cyane yubakisheje amabuye, izi ntebe zikaba ziri mu ibaraza ryayo.

Abantu biganjemo abakobwa bahuriye muri resitora aho baje kuyakira bari kunywa inzoga ndetse na fanta mu mavide, hakaba hari umugabo umwe uhagaze wafashe ijambo ngo agere icyo ababwira.

Umugabo w'umumotari ahetse umugenzi bose, bambaye ibirindi mutwe by'umutuku bakaba bari kumanuka muri kaburimbo nziza cyane, ku ruhande rwa kaburimbo hakaba hari inzu z'ubucuruzi zitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo umugabo utwaye moto wambaye ikasike itukura aho atwaye n'umugenzi w'umugore wambaye ikaske y'icyatsi, ari mu muhanda aho bamaze kurenga ya mirongo y'umweru abanyamaguru bambukiramo, ndetse ruguru cyane hakaba hari n'igare rizamuka.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo moto imwe ya kikumi aho igeze kurongo y'umweru aho abanyamaguru bambukira, hepfo y'umuhanda hari inzu nyinshi cyane z'ubucuruzi ziganjemo ziteye amarange y'umweru.

Kaburimbo imanuka ikaba ku ruhande hariho ibisima biteye irangi ry'umweru ndetse n'umukara, mu muhanda harimo umumotari uhetse umugenzi aho bose bambaye amakasike y'umutuku, hepfo y'umuhanda hari inzira y'abagenzi iri gutambukamo umugore.

Umugabo w'umumotari, yambaye jire y'umutukuba, yambaye ikaseke y'icyatsi, ari gutemberarana moto mu giturage, aho ari gutwara ibintu abantu baba baguze bifashishije ikoranabuhanga.

Umugabo w'umumotari yambaye ikasike y'umutuku ndetse imbere ye hakaba harambitse kasike. Akaba ari gutwara moto mu muhanda, inyuma ye hari imodoka iy'ivatiri, mu gihe hepfo y'umuhanda hari inzu z'ubucuruzi.

Abagabo babiri umwe ni nyir'imoto, undi akaba ari umukanishi. Bose bari gukora kuri moto, aho umwe wambaye amadarubindi ari kuyikora. Hakaba harantu yapfuye. Iparitse mu nzu iteye irangi ry'umweru, ikaba irimo n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo aho utamo umurongo w'umweru mo hagati .Ku ruhande hari ibisima biri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, mu muhanda hakaba harimo imbangukiragutabara ifite ibara ry'umweru. Hepfo y'umuhanda hari ipironi rinini cyane rikaba rikwirakwiza umuriro mu duce dutandukanye.

Inyubako nziza cyane icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, imbere yayo hari imbuga iparitsemo amamoto menshi cyane, moto imwe ikaba yicayeho umumotari ariko ahagararishije ukuguru kumwe hasi.

Kaburimbo y'umukara ifite imirongo y'umweru ku ruhande iciyemo, hakaba hari na moto iriho umumotari uhetse gaze iri gutambuka mu muhanda. Hepfo y'umuhanda hari inzu zitandukanye z'ubucuruzi.

Umugabo w'umumotari yambaye kasike y'umutuku imbere ye harambitse indi kasike y'umutuku kuri moto, ari gutambuka muri kaburimbo wenyine aho gepfo ya kaburimbo hubatse amazu atandukanye abantu babamo ndetse n'andi y'ubucuruzi.

Umugabo umumotari yambaye i jire y'umutuku, ndetse kasike isa n'icyatsi akaba aparitse moto iruhande rw'inzu aho hari uruzitiro rw'ibiti ndetse inyuma ye hakaba hari igipangu cy'amabuye.

Kaburimbo nziza cyane irimo amarangi y'umweru ariko ya yasibama kuko yashaje, hakaba harimo umugabo utwaye moto wambaye kasike y'umutuku. Hepfo y'umuhanda hari amazu y'ubucuruzi ateye irange ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo. Urimo imirongo y'umweru, aho abanyamaguru bambukira, hakaba harimo n'umumotari uri kuri moto. Hirya y'umuhanda hari inzu z'ubucuruzi, ndetse imbere yazo haparitse imodoka.